Umwana mutoya bigaragara ko yiga muri nasari akaba yambaye impuzankano zaho, ari mu kayira k'abanyamaguru aho ari gusanga abandi bana bigana kugira ngo babashe kwiga ndetse no gukina.

Abana bari ahantu ku byicungo barimo bararya umunyenga bikaba bigaragara ko ari abana bakiri batoya bashobora kuba bari kwiga mu kiburamwaka, inyuma yabo hari abantu basa nkaho ari bakuru biragaragara ko ari ababyeyi babo babazanye muri ibi byicungo, haragaragara kandi ibiti bigiye bihari.

Ikigo cy'ishuri cyigamo abana b'incuke, ni ikigo cyubatse mu buryo bugezweho ndetse imbere yayo ku nkingi ihari, hakaba hari utwana dutatu duhari, bisa nk'aho utu twana ari utunyeshuri, kuri iyo nzu hakaba handitseho ngo Nyagatare modern school, imbere yayo hakaba hari jaride ihari.

Ni mu kigo k'ishuri aho harimo abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, imbere hakaba hari umwarimu urimo arabigisha abana bakaba bateye intoki hejuru kugira ngo basubize ikibazo uyu mwarimu ari kubabaza.

Ikigo cy'amashuri abanza kizwi nka pirimeri, hakaba hari abana bambaye impzankano bari ku murongo aho bayobowe n'umwarimu wabo. Iki kigo kikaba cyubatse neza, ndetse kiri hagati y'ibiti byinshi, ndetse imbere yacyo hakaba hari amapoto ariho amashanyarazi n'amatara.

Ikigo cya pirimeri cyubakishije amatafari ahiye, urugi rukaba ari ubururu ndetse umuryango ukaba ufunguye, imbere y'umuryango hateretse intebe iriho ijerekani, bakoresha nka kandagira ukarabe, bafungura, boga intoki kugira ngo birinde umwanda.

Amashuri menshi ya pirimeri, akaba yubakishije amatafari ya rukarakara, afite giriyaje ndetse ku bikuta hariho ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere hariho inkingi zifashe amabati.

Aka ni agakoresho k'ingenzi cyane ku banyeshuri biga muri pirimeri aho haba harimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye nk'amarate, kompa, kereyo na gome, iki gikoresho kikaba kizwi ku izina rya seti.

Iyi ni seti ikaba iri kumwe n'ibikoresho byayo byose biba biyirimo, iyi seti ikaba yifashishwa n'abanyeshuri ba pirimeri ndetse n'aba segonderi, iri kumwe n'amarate, ikaba iri kumwe na kereyo, gome ndetse n'agacongesho.

Igikoresho gikunda kwifashishwa n'abana b'abanyeshuri yaba abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iruhande rwacyo hakaba hari ibikoresho biba muri icyo gikoresho, amarate, kompa, kerereyo, agacungesho ndetse na gome.

Umugore bigaragara ko ari umusirimu uyu mugore akaba afashe umupira w'akana kamwe k'akanyeshuri k'agakobwa, hari n'abandi bana bafite imipira nk'iyo abo bana na bo bambaye impuzankano y'ishuri, bari ahantu bigaragara ko hari jaride nziza cyane.

Ni inyubako nziza cyane igerekeranyije kabiri. Iyi nyubako ikaba ari ishuri rya pirimeri, aho hagiye hariho utwuma turiho amarangi y'icyatsi. Munsi y'iyo nyubako haragaragara nk'ahantu hameze neza cyane ndetse urabona ko iyo nyubako iri ahantu hitaruye.

Ni inyubako ebyiri nziza cyane zubatse mu buryo bwa etage, izi nyubako zikaba ari ibigo by'ishuri byigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza, utuyira tujyayo ni ibitaka ndetse haragaragara ko hateye jaride nziza cyane, hari n'icyapa cyanditseho imigabo n'imigambi.

Aha ni mu kigo cy'amashuri aho higa abana ba pirirmeri, hahagazemo abantu bane ndetse imbere yabo hari ameza n'intebe zicarwaho n'abanyeshuri, hari umugabo ufite ibitabo bisa nk'aho hari ibintu ari kubwira bagenzi be, na bo bakaba bamuteze amatwi.

Ni icyapa kiriho seti ikaba izwi mu gufasha abana biga pirimeri ndetse na segonderi, hakaba kandi hariho n'ibikoresho biba biri muri iyo seti, aho hagaragara kereyo, hakagaragara gome, hakagaragara agacongesho n'amarate n'ibindi.

Akapa kariho utuntu tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu bo muri pirimeri bigisha abana kumenya kubara, hariho inanasi imwe hakabaho umuneke ndetse n'imodoka imwe, hariho izindi mbuto ebyiri ebyiri bakaba bifashisha kano kapa kugira ngo abana babashe kubara neza.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bisa nkaho hari umukoro runaka barimo barakora. Bicaye babiribabiri ku ntebe, ndetse bambaye impuzankano bisa nkaho aba ari abanyeshuri bo muri segonderi. Inyuma haragaragara ikibaho cyanditseho ibintu byandikishije ingwa y'umweru.

Abantu b'abanyeshuri bicaye mu ishuri bakaba bari kwiga mu mashuri yisumbuye ya segonderi, imbere hari umukobwa uhahagaze watebeje wambaye impuzankano akaba afite urupapuro mu ntoki ze bisa nk'aho hari ibintu arimo arabwira abana b'abanyeshuri bagenzi be, hari undi muntu uhagaze bisa nk'aho arimo arabwira uwo mukobwa ibyo agomba gukurikiza, inyuma ye hari ikibaho bandikaho.

Abanyeshuri ba segonderi bambaye impuzankano bose bicaye ku murongo. Imbere yabo hari umuntu bisa nkaho wagira ngo ari gufata ifoto ndetse inyuma y'abo banyeshuri hakaba hari ibiti bihateye ndetse iruhande rw'ibyo biti hari amashuri ahari.

Abanyeshuri babiri bicaye mu ishuri, biragaragara ko ari abanyeshuri biga muri segonderi, umwe akaba ari kwandika mu ikayi iteretse imbere ku meza, undi we yifashe mu biganza bye byombi, bisa nkaho hari ibintu ari kureba imbere cyangwa se yabuze ibyo yandika.

Abanyeshuri benshi ubona ko basa nkaho basoje segonderi, bakaba bari ahantu mu byatsi, barimo barafata ifoto, inyuma yabo haragaragara ahantu, hateye ibiti bigiye bitandukanye, ndetse hari n'inzu ihari imbere y'iyo nzu, hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Aba banyeshuri bambaye imipira y'imyeru ,ndetse bafite na seretifika, bari hamwe n'abatoza babo.

Ahantu bisa nk'aho ari mu kigo cy'ishuri hakaba hubatse amahema abiri ku mpande ebyiri zitandukanye, ayo mahema akaba yicayemo abantu batandukanye imbere y'ayo mahema ahantu hari amapave hakaba hahagaze abana batatu, babiri muri abo banyeshuri bafashe ikibandarore cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani, kwibuka twiyubaka.

Ni ahantu ubona ko hitaruye hakaba hubatse inyubako z'amashuri ya segonderi, izo nyubako zikaba zubakishijwe amatafari ye ndetse imbere yazo hakaba hari jaride nziza cyane, hagaragara n'ipoto ririho itapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse hari umuntu uri mu kayira urimo ajyayo, hari kandi amataburiya y'abarimu yanitse kuri izo ndabo.

Abanyeshuri biga muri segonderi bakaba bahurijwe hamwe n'abayobozi babo bicaye ahantu mu twatsi ndetse imbere yabo hakaba hari umubyeyi usa nkaho arimo aragira icyo ababwira, iruhande rw'uwo mubyeyi hakaba hahagaze abapolisi babiri ndetse n'abandi bantu, imbere yabo hashinze igiti kiriho idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse haragaragara ibiti n'urugo rw'imiyenzi.

Ni ahantu ubona hari irembo ryubatswe neza kandi mu buryo bugezweho. Iryo rembo rikaba rikinze ndetse imbere y'iryo rembo hakaba hari amapave ahashashe. Hejuru kuri iryo rembo hakaba handitseho ngo, murakaza neza mu kigo cy'ishuri cya Nyagatare.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu bisa nk'aho barimo barakurikira ubahagarariye, bambaye impuzankano y'ishuri ndetse bose baritonze cyane, bicaye ahantu munsi y'ibiti ndetse inyuma yabo hakaba hari amashuri bigamo.

Ni abanyeshuri batandukanye, ubona ko bateraniye ahantu hamwe. Bagiye bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, aba banyeshuri bakaba ari aba pirimeri, aba segonderi, aho baje ahantu runaka, mu kwitabira igikorwa runaka cyahabereye. Inyuma hari urukuta ruriho amatafari ahiye.

Abantu bahagaze ahantu hamwe ubona ko bahagaze ku murongo barimo barafata ifoto, bahagaze imbere y'ikigo k'ishuri cya segonderi, ni abanyeshuri bambaye impuzankano bigaragara ko hari igikorwa runaka cyari cyabaye bakavuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso.

urubyiruko rwinshi ruteraniye ahantu, bakaba bicaye ahantu hari utwatsi twiza ndetse munsi y'igiti cyadandaye. uru rubyiruko rukaba rwambaye impuzankano, hakaba hari bamwe bazamuye ibiganza byabo, bisa nkaho imbere yabo hari umuntu runaka uyoboye ikiganiro.

Abanyeshuri biga muri segonderi bambaye impuzankano ndetse batebeje, aho bari kumwe n'umwe mu bagabo bari imbere basa nk'aho hari indabo bari gushyira ahantu, bigaragara ko baje kwibuka. Ahantu bari hari ibiti byinshi bihari.

Ni abantu bameze nk'aho ari abanyeshuri. Bakaba bicaye ahantu hasa nk'ahubatse amatente ndetse munsi y'igiti. Bicaye ku ntebe aho hari ameza ari imbere yabo hariho ibitabo runaka barimo barasoma ndetse kuriyo meza ha akaba ariho na telefoni ngendanwa. Aba ngaba bashobora kuba ari abanyeshuri ba kaminuza, barimo baraganira. Hagaragara inzu kandi yubakishije amatafari ahiye.

Ni inyubako ubona ko isize amabara meza cyane. Biragaragara ko hasi hari amakaro ndetse ikaba ifite urugi rwiza cyane rusize verine ndetse ruriho n'iserire. Ku rukuta haragaragaraho interebuteri bakanda bari kwatsa amatara.